Abayobozi mu nzego zigiye zitandukanye bakorera mu mujyi wa Kigali, uyu munsi bahuye kugira ngo baganire ku bikorwa bigiye bitandukanye birimo iby'iterambere, iby'ubuzima, iby'uburezi ndetse n'umutekano.

Mu cyumba cy'inama uyu munsi bahuye bazindutse, bitewe nuko bafite ibintu byinshi bashaka kuganiraho kandi bagataha birangiye, abayobozi bitangira abaturage niyo mpamvu usanga mu gihugu cy'u Rwanda iterambere rikomeza rijya mbere.

Mu kigo cy'inama uyu munsi abayobozi bazindutse kandi baje bambaye neza nk'abantu b'abayobozi, ntago bapfa kwambara uko babonye, baje bazindutse kuko hari ibibazo byinshi bitandukanye bashaka kuganiraho kandi nk'uko tubizi nibo baba ari ijisho rya rubanda niyo mpamvu ibibazo byose baba bashaka kubiganiraho hakiri kare kugira ngo bibone uko bikemurwa hakiri kare.

Icyumba kinini cyane cyubatswe mu buryo butangaje, ku buryo ubirebeye kure uba wibaza ubuhanga abantu bayubatse bari bafite, haberamo amanama, hashobora kuberamo ibirori, haberamo ibintu byinshi cyane bitandukanye.

Abagabo babiri n'umugore umwe, umugore yambaye yifubitse bigaragaza ko ashobora kuba afite imbeho, abagabo nabo bose bambaye imyenda ibafubitse ku buryo igihe haba hakonje, imbeho itabica cyane bose bari kureba imbere, bakurikiye uri kuvuga icyo ari kubabwira.

Mu cyumba cy'inama abitabiriye baje bambaye neza kandi babukereye, kugira ngo babashe kubyaza umusaruro uyu munsi ibyo bashaka kuganira byose babashe kuhava babiganiye, buri wese afite icupa ry'amazi kuko akenshi amazi afasha umuntu kudasinzira cyangwa se kutananirwa vuba.

Abagabo b'abayobozi uyu munsi baje mu nama, kugira ngo baganire uko bakwiye kubigenza kugira ngo imishinga yose batangije ikomeze ikore kandi izabashe gutsinda, umugabo wicaye imbere ni we ukurikiyeho mu gutanga igitekerezo no ku bigaragara ko ataramenya neza na we icyo agiye kuvuga aracyagitekereza.

Ihema rinini cyane bashinze ndetse bateguramo n'intebe ku buryo ubirebye wicayemo utamenya ko ari ihema, ugira ngo ni inyubako nini cyane, munsi habereyemo ibirori byo ku rwego rw'igihugu aho abaturage benshi baje kwizihiza umunsi wahariwe abakozi.

Icyumba gisa neza kinini kandi kigali kiberamo inama y'abayobozi, uyu munsi abayobozi baje bazindutse kuko ibyo bafite kuganiraho hari byinshi kandi byose bakaba bashaka kubifatira imyanzuro ihamye.

Mu cyumba cy'inama abagabo bambaye neza ndetse n'abagore bicaye hamwe bari kuganira bigaragara ko bishimye, kuko ikiganiro bari bafite nta mpaka nyinshi zabonetseho ahubwo bose bahuje ibitekerezo bafata umwanzuro mwiza kandi ugiye kubafasha.

Abagabo batatu bicaye mu cyumba cy'inama, baje guhuriza hamwe, barebe uko ibibazo barimo babikemura, gusa umwe muri bo arimo aratekereza cyane, bitewe nuko igitekerezo yari afite, abona gishobora kuba kitari butange igisubizo, ku bibazo bihari.

Abayobozi barimo abagabo n'abagore uyu munsi bahuriye ku karere, aho umuyobozi w'akarere yabatumijeho bitewe n'ibibazo bigiye bitandukanye abaturage bamugejejeho kandi aba bayobozi bakaba batari barabikemuye, babahamagaje kugira ngo bahurize hamwe barebe uko babikemura.

Icyumba cyabereyemo inama aho abayobozi n'abandi banyarwanda babyifuza ndetse n'abahawe ubutumire baje kwizihiza umunsi wahariwe amakuru. Amakuru ni ingenzi mu buzima kuko igihe cyose utazi amakuru cyangwa ngo umenye ibigezweho birangira usigaye.

Umugore mwiza wambaye ikanzu nziza afite imisatsi myiza cyane arimo aravuga ashize amanga uko bigaragara ni umuyobozi, abaturage be hari ibyifuzo bamugejejeho nawe yaje kubigeza ku bandi bayobozi bamukuriye kugira ngo arebe ko ibyifuzo abaturage be bafite byasubizwa.

Uyu munsi habaye, ibirori byabereye mu gihugu cy'u Rwanda ku nyubako ya Lemigo, aho abayobozi n'abandi banyamahanga bagiye batandukanye ndetse n'abanyarwanda babyifuza, bagiye kwizihiza umunsi wahariwe ubukerarugendo, ku isi yose.

Abaturage baje mu nama, kugira ngo bumve y'ibyo abayobozi babahamagarije, bazanye n'inzego z'umutekano, kugira ngo abafite ibibazo, bajye babivuga, kandi babashe kurenganurwa, ni byiza ko abaturage bitabira inama n'inteko, kugira ngo ibibazo bafite hagati yabo bikemurwe.

Mu cyumba k'inama abagabo bitabiriye n'abagore bose baje basa neza, kandi bose ni abayobozi mu nzego zigiye zitandukanye. Bose bari guseka barishimye, kubera ko ibiri kuhavugirwa n'umuntu urimo arabibabwira ameze neza ari kubibabwira yarabiteguye, kandi baranishimye bitewe n'uko ari byiza cyane.

Icyumba kiberamo inama cyangwa ibirori, umugabo n'umugore bose bafite mikorofone, barimo baravuga icyarimwe, bigaragara ko ibyo bari kuvuga babiteguye kugira ngo babashe kubivuga bagendana kandi badategwa.

Uyu munsi abagabo n'abagore baje bitabiriye bose bambaye impuzankano imwe kugira ngo baganire banarebe ibyo bakwiye gukora kugira ngo ubuzima bwabo ndetse n'ubw'abanyarwanda muri rusange burusheho kuba bwiza.

Mu cyumba cy'inama, umuyobozi mukuru ari kwereka abandi uko bakwiye kuzitwara bitewe n'uko hari intego biyemeje bashaka kugeraho muri uyu mwaka. Abandi na bo barakurikiye kugira ngo hatagira ikibacika bikazaba ngombwa ko hari amakosa bakora bakayahanirwa.

Urubyiruko uyu munsi baruhamagaje kugira ngo baruganirize, kuko ari rwo Rwanda rw'ejo, nibo bayobozi b'ahazaza, nibo baganga, nibo bazaba bari mu nzego zose zigiye zitandukanye. Ni byiza kubategura hakiri kare, kandi bakabakundisha igihugu cyabo, bakumva ko ibikorwa byose bibareba.

Icyumba cy'inama abayobozi batandukanye barimo abagabo n'abagore bose bitabiriye baje bambaye neza kandi bose barakurikiye kuko ibiri kuvugirwa muri iyi nama ari ingenzi kandi buri wese ashaka kuzabikurikiza.

Mu cyumba cy'inama, uyu munsi batumiye urubyiruko ndetse n'abayobozi kugira ngo babashe kuba baganira ibibazo biba biri mu rubyiruko kandi n'abayobozi babafashe kuba babikemura ndetse n'ibindi bikenera ubufasha cyangwa izindi nyunganizi, na byo babibafashamo.

Abanyeshuri benshi biga mu mashuri yisumbuye ya segonderi, umunsi wose bahurijwe hamwe kugira ngo bumve ibiganiro babateguriye. Abakobwa bari hano biga mu kigo cy'abasilamu kandi bose baba bashyize udutambaro mu mutwe.

Mu ihema hicayemo abayobozi, bose bambaye imipira isa, ifite ibara rya orange n'amakora y'umweru, aba bayobozi baje mu birori, ndetse n'abaturage babatumiye, kugirango bizihirize hamwe umunsi, kandi banumvire hamwe ibyo bateguye kubabwira.

Ku murenge hateraniye abaturage baje kumva icyo abayobozi bababwira, imbere hicaye abayobozi batandukanye bakorera muri uyu murenge, ndetse haje n'inzego z'umutekano, kubera ko muri uyu murenge hamaze igihe hari ikibazo cy'umutekano muke, baragira ngo babamare ubwoba, kandi bababwire n'icyo nabo basabwa gukora.

Mu cyumba cy'inama abagabo ndetse n'abagore babukereye bose bambaye neza, kugira ngo barebe ko baganira bagafata imyanzuro ihamye kandi irambye izatuma ibikorwa by'igihugu bikomeza gutera imbere, buri wese imbere ye hategetse amazi ndetse na ji kugira ngo barebe ko batasinzira bagakomeza bafite imbaraga.

Ni byiza ko igihe inama igiye gutangira, itangizwa n'isengesho ndetse n'igihe irangiye igasozwa n'isengesho nk'abantu bizera Imana. Aba bagabo, baje mu nama ndetse n'abagore bose n'abayobozi, baje kuganira ku bibazo Igihugu cyaba gifite ngo barebe uko babikemura ariko bizeye ko hari Imana ibibafashamo.

Mu cyumba cy'inama, abayobozi b'inzego zitandukanye babatumije kugira ngo babashe kugira ibyo baganiraho, byateza igihugu imbere nk'uko bigaragara bamwe muri bo bamaze kunanirwa kuko batangiye gusinzira.

Mu cyumba cy'inama uyu munsi abitabiriye bazindutse cyane ni abagore, iteka ubundi abagore bakunda gukererwa ariko bitewe nuko uyu munsi ibyo bapanze kuvuga ari ibintu by'ingenzi bose bahaye agaciro baje bazindutse kugira ngo bungurane ibitekerezo.

Umugore wambaye neza yambaye n'ijiri y'akazi, yaje kuganiriza abaturage bose bitabiriye bigaragaza ko ibyo yaje kubaganirizaho buri wese yari afiti icyo ashaka kumubazaho ndetse n'icyo ashaka kugiraho ubumenyi.

Mu cyumba cy'inama, abagabo ni bo bitabiye uyu munsi, abagore ntabwo barahagera ariko na bo baraza, kuko abayobozi bose batumiwe kugira ngo baganire ku cyateza igihugu imbere, abayobozi ni ingenzi, cyane iyo bafite imiyoborere myiza.

Umugore mwiza wambaye amarinete bigaragara ko ari umuyobozi, afite mikorofone arimo aratanga igitekerezo cye ku ngingo bari bari kuganiraho, kandi urabona ko ashize amanga bitewe n'uko atari ubwa mbere iyi ngingo bari bayiganiyeho n'ubundi bwa umbere yari yatanze igitekerezo cye.

Icyumba kiberamo inama, abagabo ndetse n'abagore bambaye neza amakoti meza, amashati meza, bose barasa neza, bicaye ahantu bose bari kureba imbere barakurikiye, bigaragaza ko ubahagaze imbere ibyo ari kubabwira birabaryoheye.

Abagore babiri hamwe n'umugabo umwe bose bicaye mu ntebe nziza z'icyubahiro, uko bigaragara bose ni abayobozi, bari gukurikira uri imbere yabo kuko afite ibintu byinshi ari kubabwira kugira ngo babiganireho, barebe n'ibibazo bafite uko babikemura.

Mu cyumba cy'inama, uyu munsi habereyemo inama yahuje abacuruzi bose bakorera mu Mujyi wa Kigali kugira ngo baganire icyakorwa kugira ngo bakomeze biteze imbere.

Umugore mwiza, wambaye neza, yambaye ishati y'umuhondo, yambaye n'igitambaro mu mutwe, afite microphone, arimo arabwira abamukurikiye, icyo yari yateguye kubabwira uyu munsi, kugira ngo bungurane ibitekerezo, ndetse n'abafite ibibazo bamubaze, abashe kubasubiza.

Mu cyumba cy'inama, abayobozi barimo abagabo ndetse n'abagore, bagiye bayoboye mu nzego zitandukanye, uyu munsi baje kuganira kugira ngo bahurize hamwe icyatuma umutekano ndetse n'iterambere bikomeza kuba biri hejuru cyane. Umugabo umwe arimo aratanga igitekerezo bitewe nuko we abyumva, icyakorwa.

Muri iki gihe ikoranabuhanga rikataje abantu bose basigaye bakoresha amatelefone, za mudasobwa, iminara igenda iri ahantu henshi, aho kugira ngo ibyo byose bikorwe bakenera amarezo, kandi iminara ni yo ibidufashamo.

Mu minsi ishize mu gihugu cy'u Rwanda haje icyorezo giteye ubwoba cyane kuko cyatwaye ubuzima bwa benshi harimo abaganga, harimo n'abarwayi, icyo cyorezo cyitwa Mabaga kandi abaganga benshi bapfuye ni abakoreraga mu bitaro byitiriwe umwami Fayisari.

Igihe cyose ukorera amafaranga, ni byiza ko uba ugomba kuyakoresha ibintu bifite umumaro, kuko iteka iyo uyakoresheje ibidafite umumaro birangira ugiye mu gihombo, ni yo mpamvu uba ugomba kuba wakwizigamira ndetse ukagira n'ibindi bikorwa ku ruhande ugenda ukora uretse ako kazi konyine ukora, n'ibyo bikorwa bikaba byakwinjiriza.

Iminara miremire ni myinshi yose iherereye mu gace kamwe, iyi minara yose ifite amabara y'umweru n'umutuku agenda anyuyuranamo, uko bigaragara kuba iri ahantu hamwe n'uko aka gace iriho bakontororera amarezo.

Inyubako nziza cyane ituranye n'umunara, umunara nawo ufite uruzitiro rw'ibyuma, abantu batuye muri aka gace ntago bajya bapfa kubura amarizo, kuko iyi minara ni ifasha kuba amariziyo yaboneka, abantu bakabasha kubona uko bavugana ku matelefone ndetse no kohererezanya ubutumwa.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB kiri kumenyesha ko cyabonye undi mufatanyabikorwa bagiye kujya bafatanya. Iki kigo ni cyiza cyane kuko gifasha abanyarwanda kuba bakwiteza imbere n'abadafite ubushobozi ariko bafite ibitekerezo cyangwa imishinga mizima, kirabafasha kikabatera inkunga.

Dore uko wamenyekanisha umusoro ku nyungu 2023 ukoresheje telefone igendanwa. Kanda *800# uhitemo ururimi wifuza gukoreshwa, hitamo 2 indi mirimo y'ubucuruzi uhitamo 1 niba ari ubwa mbere umenyekanishije umusiyo ukoresheje telefone kuko usabwa kubanza kwiyandikisha ubundi ukomeze ukurikize amabwiriza.

Batamuriza Hajara ni komiseri w'imisoro y'imbere mu gihugu na Mbera Emmy ni komiseri wungirije ushinzwe ubugenzuzi bw'umusoro. Uyu munsi baje gutanga ikiganiro kuri radiyo, kugira ngo babashe kuganira n'abantu ku by'ingenzi mu misoro iri kuvugwa muri iyi minsi.

Ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe imisoro n'amahoro cyitwa Rwanda reveni otoriti, ubu gisigaye gifasha abantu bose bagikenera, kuba bahabwa serivisi bakoresheje telefoni, bitabasabye kwirirwa bajya ku kicaro.

Muri iyi minsi abanyeshuri benshi biga muri za kaminuza, bari mu gihe k'ibizamini kandi kubona umwanya ntabwo babona umwanya uhagije wo kwiga, ni yo mpamvu akenshi bagera mu gihe cyo kuza gukora n'ubundi bakiri kwiga, kugira ngo bakomeze biyibutse barebe neza ko batsinda.

Mu nyubako irimo mudasobwa nyinshi cyane, abakozi baricaye bari kuzikoresha ndetse n'abakiriya baje barimo kugenda babafasha, bitewe n'icyo buri wese ashaka. Ari abashaka kubarurisha imitungo yabo, gusaba inguzanyo, kohereza amafaranga cyangwa kubitsa no kubikuza, bose bari kuza bakabafasha.

Uyu munsi baje biteguye cyane kugira ngo akazi bagakore neza, ni yo mpamvu buri wese afite ikawa. Ikawa ifasha abantu kutananirwa vuba, cyane ababa bari gukoresha mudasobwa, bitewe n'uko urumuri rwayo runaniza amaso, ukumva ukeneye kuruhuka.

Muri iki gihe tugezemo ikoranabuhanga rirakataje, aho usigaye usanga buri gikorwa icyo ari cyo cyose, baragerageje korohereza abagikora ku buryo amakuru yose bakenera cyangwa serivisi bakenera bishobora kubafasha. Yaba mu buhinzi, ubworozi, mu kwiga, ubuvuzi, ubucuruzi, byose byaroroshye.

Ikigo cy'igihugu Rwanda Revenue Autority, gishinzwe imisoro n'amahoro, uko bugenda bucya n'uko bwira kigenda kirushaho kuzana uburyo bushya bworohereza abacuruzi kuba basora cyangwa se bagahabwa izindi serivisi bitabasabye kujya ku cyicaro, ahubwo bakaba babikora bakoresheje telefoni cyangwa mudasobwa.

Umukobwa mwiza witonze, uyu munsi yaje mu kazi azindutse kandi yiyemeje ko abaza bamugana bose, arabaha serivisi nziza zinoze kandi akabakirana urugwiro, ni byiza ko umuntu wese uje akugana, niyo ibyo ashaka waba utari bubimufashe, byibura umwakira neza.

Bitewe n'uko inyubako zubatswe zikoreramo amabanki, zigiye ziri ahantu kure mu mijyi, ugasanga abantu bo mu cyaro kugira ngo bahagere bibasabye gutega, ugasanga niba yaragiye kubikuza ibihumbi icumi, ibihumbi bine abimariye mu ngendo, amabanki menshi yagiye yohereza bajete babo kwegera abaturage, mu rwego rwo kuborohereza.

Bitewe n'uko mu Gihugu cy'u Rwanda habamo ibikorwa byinshi cyane kandi buri bikorwa bikaba bigiye bitandukanye, ni yo mpamvu bagiye bashyiraho ibigo bigiye bishinzwe buri bikorwa. RURA na yo ishinzwe gufasha abantu mu ngendo ndetse no gukumira impanuka ndetse no gukereza abagenzi, buri kintu cyose kiba cyabangamira abagenda, RURA ni yo ibafasha kuba babikumira.

Umugore n'abana be batatu bose bari gukorera hamwe banaganira. Aba bana buri wese afite mudasobwa bigaragara ko ari abahanga kandi bize neza hakiri kare, kuko kuri ubu hari n'umuntu ufite imyaka irenga mirongo itanu ushobora guha mudasobwa ntamenye aho arahera ayikoresha.

Rwanda reveni otoriti ni ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Ni ngombwa ko imisoro n'amahoro bitangwa kuko ari byo bifasha mu kubaka ibikorwa remezo by'igihugu. Aho twavugamo nk'ibitaro, imihanda, amashuri ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye.

Umukobwa mwiza cyane w'inzobe, ufite imisatsi myiza aba yafungiye inyuma kugira ngo ireke kumujagaza, yambaye ibiyekuteri binini, bigaragara ko ashobora kuba ari umunyamakuru kuko imbere afite na mudasobwa irimo ibintu bitandukanye ihujwe n'izi ekuteri.

REB ni ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi, kuri ubu ntago bikimeze nka kera aho kugira ngo umenye niba umwana yatsinze, byasaga kubanza kujya ku kigo cyangwa se ku karere kuko ukoresheje telefone, ushyiramo nimero z'umwana, ubundi amakuru yose ugahita uyabona.

Irembo ni ikigo gifasha abaturage bose bakorera mu Rwanda kuba bahabwa serivisi mu buryo bworoshye. Aho ushobora kuba wabona pasiporo, icyangombwa cy'uko utafunzwe, icyangombwa cy'amavuko, icyangombwa cy'uko uri ingaragu cyangwa se washyingiwe, n'ikindi cyangombwa icyo ari cyo cyose, bitagusabye kujya wirwa wiruka ku mirenge cyangwa ku bindi byicaro.

Inyubako nziza cyane kandi nini ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, gusa ibikorwa byinshi bihakorerwa byose bigendanye n'ikoranabuhanga, ku buryo umuntu aba yabitsa amafaranga cyangwa akayabikuza cyangwa akayohereza mu mahanga.

Inyubako nini ifite imiryango itatu ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, hari umuryango umwe ukorerwamo ibikorwa by'Irembo, aho igihe ushaka pasiporo cyangwa se icyangombwa icyo ari cyo cyose, yaba icy'amavuko cyangwa icy'ubutaka cyangwa ibindi byangombwa byose umuntu ashobora gukenera, arahagera ubundi bakamuha serivisi zigendanye na byo.

Ikoranabuhanga ni ikintu kiza cyane, kandi kiba gikenewe kuko cyoroshya ibintu byose. Nka kera, wasangaga ukeneye icyangombwa cy'ubutaka cyangwa se ikemeza ko uri ingaragu cyangwa se warashyingiwe; bigasaba kwiruka ku murenge nk'ukwezi kose; ariko ubu, ujya kuri telefone yawe ukabyikorera, mu minota mike bakaba barabiguhaye.

Irembo ni ikigo gikorera mu Gihugu cy'u Rwanda gifasha Abanyarwanda muri rusange ndetse n'abandi bose baza bakigana bakenera serivisi gitanga. Iki kigo gitanga serivisi zigiye zitandukanye yaba ari izigendanye n'ibyangombwa ibyo ari byo byose cyangwa se kuba hari ibindi waba ushaka kubarurisha.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ubusitani bunini cyane ku buryo ushobora kuza ukahicara cyangwa ukahifotoriza cyangwa ukazana abana bakahakinira, ni hahagari harisanzuye ku buryo ushobora no kuzana amahema ukayahashinga ukaba wahakorera ibirori.

Muri iki gihe ikoranabuhanga rirakataje, yaba ku bakuru, yaba ku rubyiruko ndetse n'abandi bose babyifuza, baba bumva baryohewe no kurikoresha, ubu ushobora guhamagara umuntu uri mu mahanga, wibereye mu gihugu cy'u Rwanda kandi mukavugana munarebana.

Umusore mwiza wambaye umupira w'umweru n'ingofero yanditseho byikorere, agiye kwakira undi mukiriya waje amugana, ushobora kubona handitseho byikoreye ukagira ngo ni ukutagufasha, ariko ni ukukwereka ko nawe atari ngombwa ko wirirwa uza ahubwo ushobora gukoresha telefone yawe ukabyikorera.

Serivisi nshya ku rubuga irembo govu, ikigo gitanga serivisi, ikigo cy'igihugu cyibarurishamibare icyiciro ubushakashatsi n'ibarurisha mibare mazina ya serivisi, raporo yo gutangaza ubushakashatsi kwemeza kongera igihe viza y'ubushakashatsi, byose serivisi irembo zitanga.

Muri iki gihe cy'ikoranabuhanga igihugu cy'u Rwanda nacyo kirakataje mu gufasha abaturage kubona serivisi zigiye zitandukanye byihuse ubu irembo naryo riri mu bibafasha cyane ku buryo umuntu ushaka kuba yakwiyandikisha cyangwa se ashaka icyangombwa icyo ari cyo cyose abasha kukibona akoresheje irembo.

Agace gaherereye mu Mujyi wa Kigali, harimo umuhanda wa kaburimbo, iruhande rw'uyu muhanda hagiye hari ibipangu byubatse neza kandi muri buri gipangu hateyemo ibiti bifasha ababa muri ibi bipangu kuba bahumeka umwuka mwiza.

Inyubako nziza iherereye mu Mujyi wa Kigali, imbere yaho hari akazu gacururizwamo ndetse ruguru hari ipoto insinga zifatiyemo, insinga zihafatiye ni izitanga umuriro muri aka gace, iyi nzu uko bigaragara ntabwo ikibazo cy'umuriro kibagora cyane, bitewe n'uko gihita gikemuka kubera begereye ipoto.

Umuhanda wa kaburimbo munini cyane ugendwamo n'ibinyabiziga ndetse ku ruhande naho hakaba hari akayira k'abanyamaguru ku buryo nabo bagenda bisanzuye, ku ruhande hariho n'amapironi atanga amashanyarazi ku bantu batuye muri aka gace.

Umuhanda mwiza cyane munini wa kaburimbo, ku ruhande bashyizeho parikingi aho imodoka zitari gukomeza zibasha kuba zaparika ubundi abayobozi bazo bakajya mu bindi bikorwa bitandukanye byari bitumye baza.

Muri iki gihe ushobora guhera mu gitondo saa moya uri gucuruza ukazageza ejo na none saa moya ucuruza ijoro ryose utigeze ufunga, kubera ko ahantu hafi ya hose mu gihugu hasigaye hari amashanyarazi, aho nijoro ucana amatara ukagira ngo ni kumanywa ibintu byose ukabikora utabangamiwe n'umwijima.

Mu murima hateyemo ibyatsi bitandukanye ndetse n'ibiti, muri uyu murima bashinzemo n'ibyuma bifatiyeho insinga z'amashanyarazi zitanga umuriro muri aka gace, abantu benshi muri iki gihe basigaye bakoresha umuriro w'amashanyarazi.

Mu muhanda wa kaburimbo ku ruhande hateye ibiti ndetse hariho n'ipoto bigaragara ko muri aka gace abantu bose bagatuyemo bafite umuriro w'amashanyarazi, kandi koko muri iki gihe tugezemo buri wese akwiye kuba awufite kuko n'abadafite ubushobozi leta igenda ibafasha kuba yawubagezaho.

Agace gaherereye mu mujyi wa Kigali Kimisagara bafite umuriro w'amashanyarazi kandi biroroshye kuba igihe cyose havutse ikibazo kigendanye n'amashanyarazi baza bakagikosora byoroshye, kuko begereye ipironi.

Agace gaherereye mu mujyi wa Kigali hafi y'umuhanda, hari inzu zikodeshwa, ku bantu bafite amamodoka ntago ari ngombwa ko ukodesha inzu ukajya gukodesha naho uzajya uparika imodoka kuko inzu ziri hano mu gipangu hari n'aho waparika imodoka yawe.

Umuhanda wa kaburimbo, ufite ibiti ku ruhande, ku ruhande kandi hasizeho uturangi twiza tw'umweru n'umukara, dutandukanya aho ibinyabiziga bigendera n'inzira y'abanyamaguru. Uyu muhanda urasukuye kandi n'abawugendamo babigira ibyabo, bitewe n'uko nta myanda bajugunya mu muhanda.

Muri iki gihe tugezemo cy'iterambere mu gihugu cy'u Rwanda abaturage benshi yaba mu mijyi ndetse no mu byaro bamaze kubona umuriro w'amashanyarazi, ibi byose abaturage babikesha ubuyobozi bwiza.

Mu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande basize akayira k'abanyamaguru n'aho amagare agendera, mu rwego rwo kwirinda impanuka, ni byiza ko bakora umuhanda ufite ubugari buhagije kuko iyo ibinyabiziga biri kugenda bicucikanyije, biri mu bintu byongera impanuka.

Uruzitiro rukozwe mu mbaho ariko abantu barukoze bagiye baduha udushusho twiza ku buryo ubirebera kure ukabona bimeze neza, utapfa kumenya ko ari imbaho gusa ahubwo wagira ngo ni ko babyubatse.

umuhanda wa kaburimbo usa neza usukuye, ku mpande bahashyize amatara amurikira abagenzi nijoro kugira ngo bose bagende babona nk'aho ari ku manywa kandi binagabanya n'impanuka mu muhanda.

Ibitaro byitiriwe umwami Fayisali biherereye Kigali Kacyiru. Ibi bitaro byubatse neza kandi ni binini bifite umwanya uhagije. kuri ibi bitaro abaganga bahakorera ni abanyabwenge cyane kandi bakira neza abarwayi baje babagana bakabavura na bo bagataha bishimye kandi bakize.

Inyubako uko bigaragara ni mu bitaro, bashyizeho inzira abarwayi bacamo, barayisakara hejuru kugira ngo mu gihe cy'imvura cyangwa izuba ryinshi, babashe kugenda batabangamiwe kandi bakomeze bahabwe serivisi neza bitababangamiye cyangwa ngo bibongerere uburwayi.

Ambiranse ni imbangukiragutabara. Buri bitaro bisabwa kuba biyifite kuko igihe umurwayi arembye cyane irabafasha. Igihe bibasaba kumujyana ku bindi bitaro cyangwa se igihe yari ari mu rugo, bisaba kumuzana kuri ibyo bitaro, ni yo yitabazwa.

Inyubako nini hanze bahateye intebe nyinshi kuko ari kwa muganga kugira ngo aje kwivuza bitewe n'uko aba ari benshi batonde umurongo kandi bicaye kugira ngo abarwayi muri bo bataza kunanirwa bakaba bakwikubita hasi ndetse bakarushaho kuremba.

Inyubako nini cyane, uko bigaragara ni kwa muganga, hari abarwayi benshi batonze umurongo kugira ngo barebe ko bose bataha bavuwe, kwa muganga nubwo abarwayi baba ari benshi gute, babikora neza bakagerageza bose bagataha bafashijwe.

Icyapa kigaragaza ko aho ngaho ugeze, ari ku bitaro bya Kacyiru, ibitaro bya Kacyiru bitanga serivisi nyinshi zigiye zitandukanye, yaba ari aho babyarira, indwara z'amenyo, guca mu cyuma, aho batangira imiti, ubuvuzi bw'impinja, indwara zitandura, n'ibindi bigiye bitandukanye bigendanye n'ubuzima.

Icyumba kinini cyane, kirimo utubati twinshi cyane, harimo n'umugabo ubona ko ari kugenda areba, niba nta cyabuze muri utu tubati, muri utu tubati hapanzemo ibikarito byinshi, byanditsweho ijambo Gacaca.

Sonarwa, ni ikigo gifasha abantu kuba bazigamira cyangwa se bagashinganisha ibikorwa byabo, gusa nkuko tubizi, ni byiza ko buri kintu gihurihweho n'abantu benshi kigira amategeko abigenga, kugira ngo hatabamo kuba hari abo bashobora kwiba, cyangwa se abandi bakarenganywa.

Iteka ryose iyo ahantu hatari amategeko, abantu baba ibigande, ni yo mpamvu Igihugu cy'u Rwanda na cyo gifite amategeko kigenderaho mu rwego rwo kugira ngo abagituye babeho neza, babane neza kandi bafite n'indangagaciro zibaranga.

Iteka iyo ahantu hatari amategeko, abantu bitwara nabi, abandi bakitwara uko bishakiye, bikaba byatuma mu gihugu habamo akavuyo, abagituye bakabaho nabi, ni yo mpamvu, buri gihugu kiba cyarashyizeho amategeko, kandi iteka uyarengaho arahanwa, kandi by'intangarugero.

Amategeko agenga igihugu cy'u Rwanda, aba yanyanditse kandi ntabwo apfa guhinduka kuko kugira ngo ashyirweho, biba byaganiweho, ndetse bakanarebera hamwe, buri tegeko bakabyigaho. Niyo mpamvu abaturage bose baba basabwa kubahiriza aya mategeko, kuko uwo rigonze atarikurikije arahanwa.

Muri gereza abantu bafunzwe ntago baba baryamye gusa ahubwo, babatoza n'indi mirimo kugira ngo bareke kurambirwa, kuko iteka iyo uhora wicaye gusa urarambirwa, bityo bikaba byabaviramo n'izindi ndwara zijyanye no kwigunga cyangwa se kwiheba.

Mu cyumba cy'inama hajemo abagabo benshi bambaye impuzankano isa icyatsi, inyuma yabo hahagaze abasirikare, hirya hari abandi na bo baje muri iyi nama bambaye bisanzwe bo nta mpuzankano, nk'uko bigaragara ni abayobozi.

Abagabo babiri bambaye umwambaro wambarwa n'imfungwa batwaye mugenzi wabo urwaye kwa muganga bamushyize ku ngobyi bitewe n'uko we nta mbaraga afite zo kuba yakwigenza kubera ko arembye. Iteka abarwayi tuba tugomba kubihutisha kwa muganga kugira ngo tubagezeyo bigishobokako babatabara.

Abagabo babiri umwe yambaye umwambaro wambarwa n'imfungwa, ari n'uyu wambaye amarinete, undi nawe yambaye umwambaro w'abakozi bakora mu nkiko, haba ari abacamanza, ababavoka cyangwa se abashinjacyaha.

Umugabo munini wambaye amarinete, yambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati y'umukara, yambaye n'impuzankano y'akazi bigaragara ko uyu mugabo akorera mu rukiko, aho baba baburanira abantu babashinja ibyaha cyangwa se bababuranisha.

Umugabo munini kandi mwiza, biragaragara ko ashaje. Uyu mugabo bitewe nuko igihe yagezemo imbeho imwica cyane, kenshi aba yifubitse uyu mupira w'umukara kuko umumara imbeho.

Mu gihugu cy'u Rwanda, mu rwego rwo kugira ngo abaturage bose babeho neza kandi babane mu mahoro, bashyizeho amategeko agenga abantu barenze kuri ayo mategeko, bagakora ibidakwiye bishobora kubangamira abatuye muri iki gihugu cyangwa hanze yacyo.

Buri gihugu cyose kiba gifite amategeko kigenderaho gusa bitewe nuko mu gihugu haba harimo abantu benshi cyane batandukanye b'ingeri nyinshi, hari abantu bakora ibikorwa ba ukibaza uko batekereza ariko nawe ubwawe ukumva birakuyoyoboye, niyo mpamvu buri gikorwa cyose baba baragiye bashyiraho igihe ari igikorwa kibi n'igihano kigihana kandi bikaba bihari buri bantu bose bagomba kuba babizi.

Icyapa cyanditseho inkiko gacaca hari ubutabera n'ubwiyunge ibi byabaye mu gihe cyashize mu gihugu cy'u Rwanda bitewe nuko mu mateka yacyo mu mwaka wa 1994 hishwe abatutsi benshi kandi ababikoze bakaba bari bakwiye guhanwa batangaga ibirego binyuze mu nkiko gacaca.

Abagabo batatu umwe muri bo wo hagati yambaye impuzankano y'umukara yambarwa n'abacamanza cyangwa se abavoka cyangwa se abashinjacyaha, umwe muri aba bagabo yaje kurega mugenzi we bitewe nuko hari isambu yiwe yamuriganyije.

Abagabo babiri bose bambaye amarinete, umwe ni umwirabura undi ni umuzungu, umugabo w'umwirabura bamwambitse amapingu, bigaragara ko hari ibyaha yakoze maze agahunga, bakaba baje kumutahura bakaba bamuzanye kugira ngo abashe gushinjwa ndetse ahanwe.

Abapolisi benshi bambaye impuzankano bose bafite n'imbunda, biragaragaza ko biteguye cyane kuba bazacunga umutekano w'igihugu, bakarinda icyahungabanya igihugu cyabo cy'u Rwanda.

Ikimodoka kinini cyane giteye mu buryo butangaje, uko bigaragara gitwara imiti cyangwa se ibindi bintu bisaba ko babitwara mu buryo butekanye, umuyobozi w'iki kimodoka ni umuhanga kuko kugitwara bisaba ubuhanga kugira ngo utagikoresha impanuka.

Umupolisi wambaye impuzankano y'akazi, akaba yambaye n'ijire ifite amabara umukara ndetse n'icyatsi, handitseho Rwanda polisi, yaje gusobanurira abaturage uko baba bakwiye kwirindira umutekano ndetse bakanirinda impanuka mu muhanda, bakabanza kubareba niba nta binyabiziga biri kugenda, ndetse bakaba banambukiye ahabagenewe.

Icyapa kigaragaza ko aha ngaha ugeze ari kuri polisi y'u Rwanda, ikorera mu karere ka Nyarugenge, mu murenge wa Rwezamenyo, n'iyi sitasiyo ya polisi iherereye Rwezamenyo, hari nimero ya telefone igihe uhageze ukababura, aho ushobora guhamagara bakagufasha byihuse.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bw'ubuhanga kandi bugezweho, iherereye ku Muhima, inyubako ikorerwamo na polisi y'igihugu cy'u Rwanda kandi umuntu wese uba ushaka serivisi zitangwa na polisi arahagera bakamufasha.

Umupolisi wambaye impuzankano y'akazi, uko bigaragara uyu mupolisi akorera mu gihugu cy'u Rwanda, yambaye imyenda y'akazi, inyuma yarengejeho ijire na ryo rifite ibara ry'umukara n'andi mabara y'icyatsi, bigaragara ko aba ari mu kazi ko mu muhanda areba ko ibinyabiziga bigenda neza, mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Icyapa kigaragaza ko muri aka Karere ka Nyarugenge, mu gace kitwa Rwezamenyo hakorera ikigo cya polisi. Iki kigo igihe cyose abaturage bagize ibibazo bigendanye n'umutekano, barabasanga bakabafasha ndetse n'abakoze ibikorwa bibi bakabahana.

Ni byiza ko ugomba kuba ufite kizimyamwoto mu gihe inkongi y'umuriro igutunguye ukaba wabasha kuyizimya, kandi uretse no kuyitunga gusa uba ugomba no kwiga ukamenya uko bayikoresha kugira ngo nibiba nta wundi muntu uhari urayikoresha wowe ubwawe uzatabara ubuzima bwawe n'ubw'abo muri kumwe.

Idarapo rifite amabara atatu ubururu, umweru ndetse n'icyatsi, mu mweru handitsemo amagambo PSD bigaragaza ko iri ari idarapo ry'umuryango cyangwa se ishyaka ryitwa PSD.

Mu gihugu cy'u Rwanda umuyobozi uhagarariye icyo gihugu, ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, abanyarwanda bose baramukunda bitewe n'ibikorwa by'indashyikirwa yakoreye igihugu cy'u Rwanda n'abagituye bose.

Umugabo ufite mikorofone yahamagaje abaturage kugira ngo babashe kugira ibyo abagezaho, uyu mugabo yitwa Mpayimana Filipe yifuzaga kuba yaba perezida w'igihugu cy'u rwanda ariko ntabwo byamukundiye kuko yarahanganye na perezida Polo Kagame, kandi abanyarwanda bose nta wundi baba bifuza ko yabayobora atari we.

Umugabo wambaye ikositimu n'ishati na karuvati, uyu mugabo yitwa Habyarimana Juvenal, yahoze ari perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda mirongo icyenda na kane, aho yarasiwe mu ndege.

Muri iki gihe hashyizweho gahunda y'uburinganire, aho abagore batagihejwe nka kera, aho wasangaga imirimo imwe barabaheje, ubu ibikorwa byose babirimo ndetse no mu kuyobora.

Mu cyumba cy'amashuri ya Segonderi, uyu munsi habereyemo igikorwa cy'amatora. Abaturage bose babatondesheje imirongo, mu rwego rwo kwirinda akavuyo, buri wese ari kugenda agatora, ubundi yabisoza agasohoka.

Umugabo mwiza wambaye ikositimu nziza cyane n'ishati y'umweru na karuvati, inyuma umwicaye inyuma nawe yambaye ikositimu nziza, ishati y'umweru na karuvati na we, uko bigaragara aba bagabo ni abayobozi kandi rwose biragaragara ko babishoboye.

Muri komisiyo y'amatora, umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara; afite igikaramu kinini arimo aragenda yandika akurikira ibyo abari kumufasha kubara amajwi bari kuba babaze, kugira ngo baze kureba neza ibyavuye mu matora.

Umugabo wambaye ikositimu y'umukara, ishati y'umweru na karuvati nziza cyane yafashe neza bigaragara ko yari yiteguye ko bagiye kumufotora, uyu mugabo ni umuyobozi kandi nk'uko bigaragara abo ayoboye abayobora neza n'ubwo hari igihe akabya agashyiramo igitugu.

Ni byiza cyane harimo icyumba kinini kiberamo inama, aho abayobozi bo mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu nzego zigiye zitandukanye yaba aba meya, abadepite, aba guverineri ndetse n'abandi bitewe n'inama yabaye, maze bagahurira bakiga kucyateza igihugu imbere.

Icyumba kinini cyane cyabereyemo inama, abitabiriye babaye benshi cyane, ku buryo bamwe muri bo babuze intebe, bamwe bagahagarara, abandi bakicara hasi, bitewe n'uko ibiri kuhavugirwa ari ingenzi, atari ngombwa ko wasohoka kubera ko wabuze intebe, ahubwo biyeranje, kugira ngo babashe kumva ibihavugirwa.

Ibendera ryakoreshwaga n'igihugu cy'u Rwanda mu gihe cyashize, ryari rifite amabara atatu, umutuku, umuhondo, hamwe n'icyatsi, ariko nyuma y'amateka mabi yabaye mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo hajeho indi Leta nshyashya iyobowe na perezida Paul Kagame, ibendera ryarahindutse, ubu ni ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Abaturage babatumije kugira ngo babashe kubaganiriza ndetse banumve ibibazo biri hagati muri bo, iteka iyo hatabayeho kuganira cyangwa ibiganiro, ibibazo biri mu bantu ntabwo ubimenya ndetse nawe ibyo ushaka kubabwira ntabwo wabona uko ubibabwira.

Umugore mwiza, wambaye ibitenge, ufite imisatsi myiza, yambaye n'amaherena. Uyu mugore yitwa Uwiringiyimana Agatha, yahoze ari minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda, ariko baramwishe mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda na kane. Gusa kuri ubu mu ntwari z'u Rwanda dufite, uyu mugore arimo.

Icyumba kinini cyane kirimo intebe nyinshi n'ameza, cyabereyemo inama, abayobozi bagiye batandukanye bakorera mu gihugu cy'u Rwanda bose baje kumva icyo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Polo Kagame yabateranyirije.

Abagabo ndetse n'abagore b'abayobozi, uyu munsi baje bambaye neza bitewe n'uko bari bari kwizihiza umunsi udasanzwe. Abagore baje bambaye imikenyero nk'umwenda w'ikirori w'umunyarwandakazi, abagabo na bo, baje bambaye amakoti meza cyane n'amashati n'amakaruvati.

Abagore beza bose bambaye imikenyero, ku ruhande harimo n'umugabo, bafashe ku idaraporo ry'igihugu cy'u Rwanda, bose bazamuye ikiganza cy'iburyo bigaragaza ko barimo bararahira, bitewe n'inshingano nshyashya bahawe.

Perezida wa repubulika Paul Kagame, yaje kwiyamamaza kugira ngo bazongere bamutore, no kuri manda ikurikiraho, uyu mu perezida, ni umukandida watanzwe n'umuryango FPR, abanyarwanda bose baba muri uyu muryango, kuko buri wese abayumva ahatewe ishema na bo, kandi buri wese atewe ishema no kuyoborwa na perezida Paul Kagame.

imodoka nziza ikiri nshyashya ya tagisi ikigo kitwa yego kabuzi gifasha abantu gutwara ibintu byabo cyangwa se nabo ikaba yabatwara mu gihe bafite ingendo badashaka gutega imodoka rusange hari igihe yaba ari nijoro ukaba wagira n'iki ikibazo umwana akarwara cyangwa se wokarwara wabahamagara bakaza bakagutwara.

Muhanda wa kaburimbo ku mpande harimo amazu y'abacuruzi bo hakorwamo ibikorwa bitandukanye kandi bafite utugare dufasha abakarani kwikorera imizigo badashyize ku mutwe bitewe n'uko n'ibiremereye cyane hari ibyo batashobora ariko bagashyira kurutu tugare tukabisunika.

Umuhanda ibinyabiziga biragenda, ari imodoka, ari amapikipiki ndetse n'abanyamaguru na bo bakagenda kandi buri kimwe kikagenda kitabangamiye ikindi, bitewe nuko abubatse umuhanda bari babitekerejeho kandi babigenza neza, ariko kubanyamaguru ni ngombwa kwigengesera, kuko ushobora kugwa muri borudire.

Umuhanda wa kaburimbo, umuhanda munini ku buryo ibikamyo binini biba bishobora kubisikana kandi nta na kimwe gikoze ku kindi cyangwa ngo kimwe gihagarare kibanze gihegamire ikindi gitambuke, urumva ko uyu muhanda ufite ubunini buhagije kandi amagare, amapikipiki n'abanyamaguru na bo baba bafite aho guca bose batari kugenda bagongana.

Umuhanda munini cyane wa kaburimbo, harimo imodoka y'umweru, ifite ikirango cyanditseho uruvange, uko bigaragara ni ibicuruzwa bakora, iyi modoka ikorera uruganda rwitwa gutya uruvange.

Umuhanda munini wa kaburimbo, ibinyabiziga bigenda byisanzuye bitagongana ndetse bashyizeho n'aho abanyamaguru bambukira, kuko ni byiza ko bahashyiraho umunyamaguru ntapfe kwambukira aho abonye hose mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Umuhanda wa kaburimbo, umunyonzi avuye gupakira ibirayi ni byinshi cyane ku buryo atagenda kuri iri gare anabipakiye byahita bi biteza impanuka, imodoka nazo ziragenda kandi uyu munyonzi uko bigaragara nta mpanuka yapfa kuba bitewe n'uko yagerageje kuyirinda.

Ihuriro ry'imihanda myinshi cyane riva mu bice bitandukanye, harimo amapikipiki, amamodoka ndetse n'amagare, muri iyi mihanda bashyizemo aho abanyamaguru bambukira mu rwego rwo kwirinda impanuka, batambukira aho babonye hose.

Umuhanda wa kaburimbo hari kugendamo ikimodoka kinini cy'ikibisi abenshi bita KBS, muri iyi modoka abagenzi baba bafite ikarita bashyizeho amafaranga y'urugendo, aho harimo icyuma uza ugakozamo, kigakuraho ayo mafaranga ubundi nawe ukagenda.

Umuhanda mwiza cyane kandi munini wa kaburimbo, abawubatse bibutse gusiga akayira k'abanyamaguru kandi karahagije, ku buryo umuntu ashobora no kuba yahakorera siporo mu gihe cy'umugoroba, ubundi akagabanya ibiro ndetse akarushaho no kugira ubuzima bwiza, ibinyabiziga na byo muri uyu muhanda bigenda byisanzuye, impanuka ntabwo yapfa kuhabera igihe cyose hatabaye uburangare bw'abayobozi b'ibinyabiziga.

Umuhanda mwiza cyane kandi munini wa kaburimbo harimo haragendamo imodoka zitandukanye n'ipikipiki muri uyu muhanda, ku ruhande bashyizeho akayira k'abanyamaguru gakoreshejwe amapave ndetse hateyeho n'ibiti byiza ku ruhande ku buryo abagenda muri uyu muhanda baba bumva akuka keza.

Umuhanda munini cyane wa kaburimbo, imodoka ya kwasiteri y'umweru nta kirango kigaragaza ajanse ikoreramo. Uko bigaragara iyi modoka iherutse gukora impanuka mu minsi itari myinshi cyane, kuko ntago barayisubiza kuyikoresha neza kandi imbere biragaragara ko yangiritse bikomeye.

Ku muhanda wa kaburimbo munini, harimo abayobozi b'ibinyabiziga bitandukanye, aho harimo abatwaye amapikipiki, abatwaye amagare, n'undi utwaye moto nayo imeze nk'imodoka inyuma, kuko iyo urebeye imbere aba yicaye nk'umumotari, ariko inyuma aho ibyo atwaye abishyira, hameze nk'akamodoka gato.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, umumotari atwaye ipikipiki ariko nta mugenzi afite, ari kugenda areba ku muhanda ngo arebe ko yabona umugenzi umuhamagara ngo amutware, bitewe n'uko akeneye amafaranga kugira ngo aze kuyatanga mu itsinda.

Mu muhanda wa kaburimbo ibinyabiziga biragenda, hari kugendamo ikimodoka kinini cyane cyikoreye ibicuruzwa byinshi kibikuye mu mujyi wa Kigali kibijyanye mu majyepfo kugira ngo abantu baba babuze uko bajya kubigurira Kigali babibagezeho mu buryo bworoshye.

Muri gare ya Nyabugogo, imodoka nini cyane yitwa ritiko itwara abantu benshi ndetse ikabatwaza n'imizigo, izanye umugabo ucuruza ibirayi kubera ko yari avuye mu ruhengeri kandi ho bihenduka, byamusabye kubigurirayo kugira ngo aze abicuruze i Kigali abashe kubona inyungu.

Mu muhanda wa kaburimbo, imodoka nini iitwaye matera nyinshi, igaragaza ko bavuye kurangura kugira babashe kuzicuruza mu gace, aho abaturage kuba baza kuzirangura cyangwa kuzigurira i Kigali bibagora, ni yo mpamvu abacuruzi baza bakazigura i Kigali, ubundi bakajya kuzicururiza mu ntara.

Mu muhanda wa kaburimbo hahagazemo umugabo wambaye jire, hari n'umumotari utwaye ipikipiki, hakaba n'utundi tumoto tuba dusakaye tumeze nk'imodoka inyuma, na two duparitse ku ruhande abayobozi batwo bagiye kubanza barya kuko ni byiza ko igihe wumva ushonje cyangwa unaniwe, ugomba kubanza waruhuka kugira ngo wirinde impanuka.

Umuhanda munini wa kaburimbo ibinyabiziga biragenda byose byisanzuye kuko uyu muhanda ni munini bihagije. Kuruhande hari aho ibinyabiziga bijya kunywera amavuta igihe hashize cyangwa umuyobozi abona ko ashobora kumushiriraho atarasoza urugendo arimo.

Umuhanda mwiza cyane kandi munini ugizwe n'amapave, uyu muhanda ku ruhande bahashyize aho abamotari baparika igihe bategereje ko babona abagenzi, uyu muhanda kandi ku ruhande hari amazu agiye atandukanye akorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi.

Ni byiza kubona umuntu ari umukozi atari umunebwe, cyane igihe agifite imyaka itari myinshi cyane, ku buryo muri iyo myaka aba agifite imbaraga. Uyu muhungu na we avuye guhaha ibigori, hejuru yashyizeho n'ibishyimbo kuko abicuruza. Yari avuye kubirangura kugira ngo mu gace k'iwabo ajye abicuruza kuko we ntabwo abihinga.

Umuhanda mwiza cyane munini wa kaburimbo, uracukuye ku ruhande hateyeho ibiti ku buryo abahagenda bagenda bumva bameze neza bumva amahumbezi, kandi muri uwo muhanda n'ibinyabiziga bigendamo buri kimwe ntabwo kibangamira ikindi kuko ni munnini bihagije.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka y'umweru ipakiye amatafari, bayatwikirije ihema kuko bazi ko imvura igihe icyo aricyo cyose ishobora kugwa kandi ikaba yayangiza, ugasanga bibateye guhomba.

Inyubako nziza cyane ziherereye mu mujyi wa Kigali, bahatatse ndetse n'abantu baje ari benshi, kugira ngo barebe neza ibigiye kuhabera maze nabo ibi birori babyitabirire bo n'abana babo.

Umuhanda wa kaburimbo uherereye mu Mujyi wa Kigali, ku ruhande abawubatse bashyizeho utuntu dukingira, ku buryo igihe habaye impanuka, imodoka cyangwag se umugenzi cyangwa ikindi kinyabiziga cyose cyakore impanuka, kidahita kirenga umuhanda byoroshye, bashyizeho ibi byuma kugira ngo bibe byabakingira bagarukire hafi.

Ahantu hari harahinzwe pasiparume cyangwa se umucaca, ariko kubera izuba ryari rimaze iminsi, hamwe hagiye huma, ariko ubu imvura yongeye kugwa, naho umucaca ugiye kongera umere, ku buryo uzajya ubireba, ukabona ni ubusitani bwiza, ariko biba byiza cyane, iyo bateyeho n'indabo, ni bwo ubireba abona ari byiza cyane.

Aha ni muri sitade hubatse neza kandi harasakaye ku buryo abantu baba baje kureba umupira, bashobora kwicara bagafana yaba imvura iri kugwa cyangwa se ku zuba, ntakibabangamiye, ubundi bakaryoherwa.

Ikibuga kigali cyane, cyubatsemo n'ibindi bibuga bigiye bitandukanye, bikinirwamo imikino nka vore boro, basiketi, ndetse na handi boro. iki kibuga ntago barasoza kugikora neza, ariko uko bigaragara nibagisoza kizaba gisa neza.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande eshatu umuzenguruko ni umutuku, ubuso ni umweru, ikirango ni umukara, iki cyapa kirereka abayobozi bose b'ibinyabiziga ko mu muhanda bari kugendamo hagiye harimo utununga.

Umuhanda munini wa kaburimbo wubatse neza, kuru ruhande hariho akayira k'abanyamaguru ndetse ku ruhande nabwo mu byatsi harimo ibyapa bibiri, icyapa kimwe gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko n'umweru ubuso n'umutuku, ikirango n'umweru kigaragaza ko nta kinyabiziga cyemerewe kuhanyura kimanuka.

Umuhanda mugari kandi mwiza wa kaburimbo, ufite ibisate bine aho bibiri bigendamo imodoka zijya mu cyerekezo kimwe bigatandukanywa n'ahateye imikindo n'ibindi biti byiza, hakurya ibindi bisate nabyo bikagendamo imodoka zijya mu kindi cyerekezo.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko ni umukara, ubuso ni umweru, ikirango ni umukara. Iki cyapa kirereka abayobozi ko imbere hari koni rikatira ibumoso.

Icyapa cyo mu muhanda, gifite ishusho ya mpande eshatu umuzenguruko ni umutuku ubuso ni umweru, hasi yako hari akandi kapa gato gafite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko ni umweru, ubuso ni umutuku, ikirango n'umweru, byerekana ko imbere hari aho abanyamaguru bambukira.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande enye ariko iteye ukundi kuntu, gifite ibara ry'umuhondo hazengurutseho umukara, hagati handitsemo n'ibindi bintu by'umukara, kiri kwereka abayobozi b'ibinyabiziga ko bakwiye kugenda gake kugira ngo birinde impanuka.

Ibyapa biba biteye ku muhanda byitwa feruje bifasha mu kuyobora ibinyabiziga, akenshi biba mu mahuriro y'imihanda, afite imihanda ishamikiyeho ijya mu byerekezo bitandukanye mu rwego rwo kwirinda impanuka, abo iki cyapa cyemereye kugenda nibo batambuka.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ibara ry'umutuku n'umweru, mu muzenguruko ni umweru nko hagati mu buso ni umutuku amagambo yanditsemo ari mu ibara ry'umweru, avuga ngo sitopu, biba bishatse kwereka umuyobozi w'ikinyabiziga ko igihe abonye iki cyapa, bisaba kubanza yahagarara, akabanza akareba niba nta nkomyi iri mu muhanda.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko ni umutuku, ubuso ni umweru, ikirango ni umukara, iki cyapa gishatse kwereka abayobozi ko bitemerewe guparika ahantu iki cyapa kiri.

Ni icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande enye, iki icyapa ku ruhande hazengurukijweho ibara ry'umutuku, mo mbere harimo ibara ry'umweru, noneho ibiranga byanditswe mu ibara ry'umukara, iki cyapa cyanditsemo umubare mirongo ine.

Icyapa cyo mu muhanda, gifite ishusho ya mpande enye, ubuso ni umuhondo, ikirango ni umukara, cyereka abayobozi ko umuhanda ukomeje. Ni byiza ko buri muyobozi wese agomba kujya mu muhanda, ari uko yamaze kumenya ibyapa byose n'icyo bigaragaza ndetse n'amategeko yo mu muhanda.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko ni umutuku, ubuso ni umweru, hagati nta kirango bigeze bashyiramo. Ni byiza ko abayobozi bose batwara ibinyabiziga, baba bagomba kumenya icyo buri cyapa gisobanuye.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko ni umutuku, ubuso ni ubururu, ibirango nabyo biri mu ibara ry'umutuku, ku bayobozi b'ibinyabiziga ni ngombwa ko baba bazi icyo buri cyapa cyose cyo mu muhanda kibamenyesha.

Umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo usukuye ufite inzira y'abanyamaguru ndetse n'umuhanda ugizwe n'ibisate bibiri ku buryo abagenda mu cyerekezo kimwe bagendera muri ibyo bisate bibiri ndetse hakaba n'ibindi bisate bibiri abo bajya mu byerekezo bitandukanye nabo banyuramo urumva ko uyu muhanda ni munini bihagije.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpandeshatu, umuzenguruko ni umutuku, ikirango ni umukara, ubuso ni umweru, kirereka ko imbere hari imirimo y'ubwubatsi iri gukorwa.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko ni umutuku, ubuso ni umweru, ikirango ni umukara n'umutuku, iki cyapa kereka abayobozi ko imbere aho bari kujya, hari undi muhanda ufatiyeho kuri uwo muhanda barimo.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko ni umutuku, ubuso ni umweru, ikirango ni umukara. Iki cyapa kirereka abayobozi b'ibinyabiziga ko imbere hari ikoni riri iburyo, n'irindi ririkurikira riri ibumoso.

Mu muhanda wa kaburimbo, kuruhande hateyeho ibiti, hariho n'icyapa kigaragaza ko abayobozi b'ibinyabiziga batemerewe kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu, kandi bakabereka ko, imbere hari icyuma kibafotora iyo barengeje uwo muvuduko maze bakabahana.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko ni umutuku, ubuso ni umweru, ibirango ni umukara, icyi icyapa kimenyesha abayobozi ko bitemerewe kuba batwara hejuru y'umuvuduko urengeje mirongo itandatu.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande enye, iki cyapa kizengurutsweho n'ibara ry'umutuku, mo hagati haciyemo n'akandi karongo k'umutuku. Ubuso ni umweru, ibirango ni umukara.

Umuhanda wa kaburimbo uherereye mu mujyi wa Kigali, hateyeho ibiti ku ruhande, ndetse impande y'ibiti hari icyapa cyereka abayobozi ko imbere hari ubunyereri, iki cyapa gifite ishusho ya mpande enye kandi harimo ibara ry'umuhondo n'irindi bara ry'umukara.

Inyubako nziza ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, imbere hari parikingi nini aho abakoreramo basiga baparitse amodoka yabo ndetse n'abaje babagana, inyubako kandi ibifatiye neza ku muhanda wo mu muhanda, haba hari urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga.

Mu mujyi wa Kigali ibiti byinshi bimaze guterwa bitewe n'uko bamenye umumaro w'ibiti, ibiti ni byiza kuko bituma duhumeka umwuka mwiza ndetse binakurura imvura ndetse bigatuma n'ahantu biteye hagira isura nziza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho kandi ikaba ifite n'uburambe kuko abayubatsi ari abahanga, ukeneye kuba wayigura cyangwa wayikodesha wabasanga Kigali Kanombe ubundi mukavugana amafaranga.

Inyubako nziza ifite parafo nziza ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, hacanye itara kuko burije kugira ngo babashe kureba ndetse n'abana babashe gukora umukoro ku ishuri babahaye batarimo babangamirwa n'uko urumuri ari ruke.

Inyubako zikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi imbere bahasize parikingi nini ku buryo abaza babagana batwaye ibinyabiziga babona aho ibinyabiziga byabo babiparika. Hano hari inyubako imwe ibanza ifite amarangi y'ubururu aho bagira amata agiye atandukanye.

Kanombe mu Kajagari ka kabiri, ni agace gaherereye i Kigali, harimo inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bwiza bugezweho kandi bufite isuku, isize amarangi meza, kandi ifite ibyumba byinshi bihagije kandi binini, inyubako ushaka kuyigura cyangwa kuyikodesha, wahagera maze tukagufasha.

Inyubako nziza kandi ndende, iherereye mu mujyi wa kigali, hakorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi; imbere bahubatse parikingi nini, aho abakorera muri iyi nyubako ndetse n'abakiriya baje babagana baparika ibinyabiziga byabo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo butangaje, ifite amarange meza, ifite ibirahure byiza, ibintu byose biyubatse ni byiza ndetse bashyizemo n'ibiti mu gipangu ku buryo umuntu wicaye mu gipangu, aba yumva akayaga keza.

Ihuriro ry'imihanda itatu riva mu duce dutandukanye, iherereye Kimironko, kwa Mushimire. Iyi mihanda iba isa neza kandi ku mpande hagiye hateye indabo nziza ndetse n'ibiti, ku buryo abahaca baba bameze neza bitewe n'uko hari amahumbezi.

Umuhanda wa kaburimbo mugari cyane, kandi mwiza usukuye, ku mpande hayubatseho amazu meza cyane, ku buryo uyareba ukibaza uburyo yubatswe kuko yubatse mu buryo butangaje. Hakorerwamo ibikorwa bitandukanye, nk'ubucuruzi, amaresitora ndetse n'amahoteli.

Agace gatuwemo n'abaturage benshi cyane bagiye batandukanye, aka gace abarimo bose ntabwo bari ku rwego rumwe, bamwe ni abakire bagiye bubaka inzu nziza cyane kandi ubona ko byabasabye amafaranga menshi, abandi na bo ntabwo baragira ubushobozi bwo kubaka inzu nk'iz'abo bakire.

Imodoka nziza cyane, ikiri nshyashya, irasa neza wagira ngo ngo nibwo ikiva mu kinamba, cyangwa akaba aribwo bakimara kuyikora, imodoka uko bigaragara yihagazeho, ariko muri iki gihe ama modoka ntago agihenda nka kera, aho igihe cyose ukoze ufite intego, ushobora kuba wayigura, nawe ukajya witwara.

Inyubako nini cyane kandi ndende yubatse neza mu buryo bugezweho, imbere bahashyize parikingi ihagije ku buryo muri iyi nyubako igihe hakorewemo ibikorwa bigiye bitandukanye, ari abakoreramo ndetse n'ababagana bajye babasha kubona aho baparika ibinyabiziga byabo.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho ifite amarangi meza kandi yubatse igerekeranye ku buryo uhaba n'umuryango wawe kandi mukabana buri wese yisanzuye. Inyubako hanze hateyemo ibiti byiza ku buryo igihe wumva ushaka kwiyicarira hanze uza ukaba wumva amahumbezi.

Inyubako nziza ifite amabara meza, isakaye mu buryo bugezweho, hakorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, aho hasi hakorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bw'amatara kandi hakaba harimo farumasi, hejuru naho hagakorerwamo ibindi bikorwa by'ubucuruzi bitandukanye.

Mu mujyi wa Kigali hubatswe amazu meza cyane ku buryo uhagera ukibaza uburyo ayo mazu yubatse kuko yose yubatswe mu buryo butangaje kandi iyo uyareba uba ubona ko ari amazu asa neza, muri iki gihe umuntu wese aba yumva yifuza kuhatura kandi nanjye niko mbyifuza kuko iyo hari uba ubona wagira ngo uri muri paradizo.

Mu mujyi wa Kigali, i Kanombe hafi y'ikibuga cy'indege, hariyo resitora, aho igihe waherekeje umuntu cyangwa se hari uwo wagiye gutegereza uri kuva mu mahanga, utegereza ukarambirwa ukumva inzara irakwishe, hari resitora yitwa AA, aho ugenda bakagutegurira amafunguro aryoshye, ndetse n'ibyo kunywa bikonje, ku buryo ubifata ukumva uracururutse.

Umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo, ugisa neza, bigaragara ko aribwo bakimara kuwuvugurura, ku ruhande hariho ubusitani bwiza ndetse muri uyu muhanda harimo icyuma gifotora imodoka zarenze ku mategeko y'umuhanda. Ntabwo ari imodoka gusa kuko n'amamoto iyo yarenze ku mategeko y'umuhanda na cyo kirabafotora, maze bakazacibwa amande.

Umuhanda wa kaburimbo munini kandi usukuye uherereye mu mujyi wa Kigali, ibinyabiziga bigenda byisanzuye ndetse bagiye basiga n'aho abanyamaguru bambukira, mu rwego rwo kwirinda ko bakwambukira aho babonye hose bikaba byateza impanuka.

Umuhanda munini wa kaburimbo, ku ruhande bahashyize akayira k'abanyamaguru gahagije kugira ngo babashe kugenda bisanzuye batagongana n'ibinyabiziga, uyu munsi imvura yaguye niyo mpamvu mubona mu muhanda harimo ibyondo n'utuzi duke twagiye twireka.

Umuhanda wa kaburimbo harimo haragendamo ifuso y'umweru ndetse n'ipikipiki, ku ruhande bahubatse akazu, aho abanyamaguru cyangwa abandi bategereje gutega imodoka baza bakaba bicaye, izuba ritari kubica.

Umuhanda wa kaburimbo uherereye mu Mujyi wa Kigali ku Kinamba, uyu muhanda iyo urebeye kure ushobora kugira ngo ni ikiraro, ariko ni imihanda ibiri igerekeranye, aho umwe uca hasi undi ugaca hejuru kandi ijya mu byerekezo bitandukanye.

Ni umuhanda munini kandi mwiza wa kaburimbo kuruhande hateye ibiti byiza ku buryo ubirebera kure ukabona ko aho hantu haberewe no kuba wahafatira ifoto kuko harasa neza, cyangwa se ukaba waharuhukira igihe urimo kumva agacucu izuba ryari rikumereye nabi.

Mu muhanda hari kugendamo imodoka ya fuso, ipikipiki, ivatiri nziza ndetse ku ruhande na none hari za moto ziba zimeze nk'imodoka inyuma aho ushobora gutwaramo ibicuruzwa byawe cyangwa se ibindi bintu bitandukanye, imvura yagwa ntibinyagirwe ndetse n'umuyobozi utwaye ipikipiki ntanyagirwe.

Umuhanda munini wa kaburimbo wubatse neza, ku ruhande hateye ibiti ndetse n'imbere gato hari sitasiyo, aho ibinyabiziga bijya gufatira mazutu kugira ngo urugendo barukomeze ikinyabiziga kitabazimiyeho.

Umuhanda mugari kandi mwiza wa kaburimbo, ibinyabiziga byose bigenda byisanzuye, ndetse n'abanyamaguru bakagenda bisanzuye, ku buryo ushobora no kuba wahakorera siporo, kubera ko abawubatse bashyizeho inzira ihagije y'abanyamaguru, ndetse n'umuhanda bawuha ubugari buhagije ku buryo ibinyabiziga byose bigenda bitabangamirana.

Umuhanda munini wa kaburimbo ku ruhande hateyeho ibiti byiza ku buryo abantu bahanyura bagenda bumva akuka keza, muri uyu muhanda hasi harimo ikiraro gicamo amazi aba yavuye mu misozi kugirango atagenda akerereka hamwe akaba yabasha gusenya ibikorwa remezo.

Umuhanda mwiza cyane munini wa kaburimbo ibinyabiziga byose bigenda byisanzuye, ku buryo impanuka itapfa kubera muri iyi mihanda, ku ruhande kandi bibutse gusiga akayira k'abanyamaguru kugira ngo bibe byagabanya kuba bagenda bagongana n'ibinyabiziga.

Umuhanda munini wa kaburimbo, ku ruhande hariho akayira abanyamaguru bambukiraho ndetse hagiye harimwo n'amarangi agiye atandukanye; umweru, umukara ndetse n'andi y'umuhondo agiye afite ishusho y'utuntu tw'utuzu ubona ko ari urukiramende.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo usukuye, imyanda ntabwo abaturage bakigenda bayita mu nzira cyangwa mu muhanda, kubera ko himakajwe igikorwa cy'isuku, aho imyanda yose bayijyana ahabugenewe kuko ku nkengero za buri muhanda bagiye bahashyira ingarani zabugenewe.

Umuhanda munini cyane wa kaburimbo, usukuye, amarange asizemo aracyari mashyashya, aracyagaragara ku buryo buri bara n'icyo rimenyesha, ubireba ahita abasha kubisobanukirwa, iyi mihanda ku ruhande hateyeho ibiti byiza cyane ku buryo umuntu uhagenda, n'iyo yaba ari ku zuba agenda yumva akayaga keza ndetse n'agacucu k'ibi biti.

Umuhanda wa kaburimbo wubatswe mu buryo iyo urebeye kure uba ubona ari ikiraro kandi hasi hari umuhanda no hejuru yawo hakaba hari undi muhanda, uyu muhanda uherereye Kigali mu gihugu cy'u Rwanda.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatse neza mu buryo bufite isuku kuruhande hateyeho ibiti byiza ku buryo abagenda muruyu muhanda bagenda bishimye bitewe n'uko bababumva akayaga keza kandi n'ibinyabiziga bigenda muruyu muhanda ntabwo hapfa kubaho impanuka igihe cyose hatabaye uburangare bw'abayobozi b'ibinyabiziga.

Umuhanda wa kaburimbo, ibinyabiziga biragenda kandi byisanzuye bitewe n'uko umuhanda ubugari bwawo buhagije, abanyamaguru nabo bafite inzira yabo kandi nabo bagenda bisanzuye ku buryo ushaka no kuba wakora siporo kandi ukayisoza nta mpanuka ukoze.

Umuhanda munini wa kaburimbo urahagije kuba ibinyabiziga byagendamo, bikaba byanabisikana, bitabashije kuba byakora impanuka, kuko bawubatse mu buryo buhagije ndetse ku mpande bashyize aho amagare agendera ndetse n'abanyamaguru, ku mpande kandi hateye ibiti, ku buryo abagenda muri uyu muhanda baba bahumeka umwuka mwiza.

Imihanda ibiri ya kaburimbo yubatswe mu buryo butangaje kuko iyi imihanda yubatswe igerekeranye, ku buryo iyo uyirebeye kure uba ubona ari ikiraro ku buryo wagira ngo hasi ni amazi acamo kandi yose ari imihanda.

Umuhanda wa kaburimbo usukuye nta myanda irimo, bigaragara ko ku mpande baba barashyize aho imyanda bayishyira, abagenzi ntibagende bataye imyanda aho babonye hose kuko ubirebye urabona ko uyu muhanda usukuye, amarangi asizemo na yo ni meza harimo umweru n'umukara, hakabaho n'utundi dufite ibara ry'umuhondo.

Ihuriro ry'imihanda itandukanye ijya mu bice bitandukanye, harimo ibirango bigaragaza aho abanyamaguru bambukira ndetse n'ibindi byapa biyobora imodoka, bigaragaza abagomba gutambuka mbere mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Mu muhanda ipikipiki irimo iragenda, ndetse na bisi ifite amabara y'umweru n'umuhondo, uyu muhanda ni munini kandi urasukuye, nta myanda iri mu muhanda, abanyarwanda bamaze kubigira umuco ko imyanda batayijugunya aho babonye.